Icyapa cya kampani y'ubwishingizi, cyamamaza, kiriho umugabo w'umwirabura, uri guseka, munsi ye handitse amagambo ngo " Seka kubera ko tugufite ku bitugu".

Ubwishingizi bwa purime buri kwamamaza uko bugufasha kuguma utekanye kuko ibizazane ntibiteguzwa hitamo ubwishingizi bwa purime.

Inyandiko yamamaza ubwishingizi bw'amatungo. Ifite umutwe ngo:" Inzitiro ku matungo. Shyiraho uruzitiro rukomeye kandi rukwiye hose kugira urinde amatungo yawe kuzerera cyangwa guhura n'ibintu byayangiza, genzura buri gihe uruzitiro, unarusane mu gihe rwangiritse."

Apurikasiyo ya banki ya Ekwiti ikwereka amafaranga ari kuri konti yawe, uko wakohereza amafaranga ku yindi banki, uko wakwishyura ukoresheje mobile money n'uko wakwishyura umuriro, imisoro n'ibindi n'uko waguza amafaranga.

Butike irimo imyenda y'abagore; higanjemo amakanzu n'amajipo n'imitaka ikozwe mu bitenge, na televiziyo igaragaza amashusho.

Iduka ricururizwamo ibitandukanye harimo: imyenda, amasakoshi y'abagore, ririmo abagabo babiri umuzungu n'umwirabura, kuruhande rwabo hari mudasobwa.

Butike irimo ibicuruzwa bitandukanye; imitaka, amasafuriya, amabase ,fanta, na kawunga n'umucuruzi n'umuguzi.

Igikuta kimanitseho uduti bashyiraho imyenda bita porutemanto, tumanitseho imitako yo ku maboko, n'imitako yo mu ijosi.

Butike irimo ibikoresho byo mu rugo bikorwa hifashishijwe amaboko bakabikoresha mu gutaka inzu mu kubika ibikoresho ngo bitangirika.

Umugore w'umwirabura afite amafaranga mu ntoki ari muri butike ari gucuruza ibicuruzwa bitandukanye, harimo; amakaroni, amavuta n'amajyane, imbere ye hateretse indobo zirimo ubusa n'umuzani bakoresha bapima.

Akabati kamanitsemo imyenda itandukanye. Harimo : imipira, amashati, ingofero, bifite amabara menshi.

Butike y'icyumba kimwe ifite inzugi z'ibirahure yubakishije amakaro, hasi irimo imyenda y'abagore higanjemo amakanzu n'amajipo.

Imodoka ifite ibara ry'umweru iparitse itarimo umuntu, yanditseho kigali karizi maketi.

Ahantu hadakoze neza haparitse imodoka z'ubwoko bumwe izo modoka ni nyinshi haruguru yazo hari inyubako ndende cyane, iyo nyubako hagati y'ibiti biteye bitandukanye.

Imodoka ntoya yitwa undayi sonata hayiburidi, iragurishwa. Iraparitse, igiciro ni miliyoni umunani z'amafaranga y'amanyarwanda ubundi ukayitsindira.

Inyubako ya etaje igereretse kabiri, imbere yayo haparitse imodoka nyinshi, imwe yanditseho Kigali karizi maketi.

Imodoka ya kwasiteri, ifite ibara ry'umweru, irahagaze nta shoferi urimo nta n'abagenzi, ku ruhande hari izindi modoka nyinshi z'ubwoko butandukanye, zirahagaze hirya hari ibiti byinshi.

Abagabo babiri bambaye amashati n'amapantaro bafite icyapa mu ntoki gifite rogo ya eyibiji handitseho amagambo Akagera motozi, inyuma yabo hari imodoka nyinshi.

Imodoka yiganjemo ibara ry'umweru yitwa Toyota Rava hayiburidi. Hirya yayo hari sitasiyo ya esanse.

Imodoka ebyiri za kwasiteri zifite ibara ry'umweru, za ajanse ya vorukano, zirimo ubusa ziparitse ahantu habugenewe, harasakaye hasi hanateye sima.

Imodoka nshyashya isa n'umweru iparitse, imbere y'imodoka hahagaze abagabo batatu, abirabura babiri n'umuzungu umwe, umuzungu umwe n'umwirabura umwe bafite udukapu dusa.

Abagabo babiri bahagaze imbere yinyubako iruhande rwabo haparitse imodoka umwe afite agakapu k'imishumi gasa umutuku undi afite icyapa cyanditseho Akagera motozi.

Inote y'igihumbi y'amafaranga y'u Rwanda yanditseho Banki Nasiyonari y'u Rwanda, ishushanyijeho ibirunga n'ibiti, hariho n'umukono w'uhagarariye banki mu Rwanda.

Ahatangirwa serivisi zitandukanye, harimo umu ajenti wa banki, ugufasha kubitsa no kubikuza, amafaranga uyakuye kuri banki, n'undi ugufasha kohereza ahantu hatandukanye amafaranga.

Umukobwa w'umwirabura yicayemo imbere mu nzu, imbere ye hateretse machine n'impapuro hanze hari umuturage w'umwirabura afite amafaranga mu ntoki yaje gusaba serivisi.

Umukozi wo muri Banki yicayemo imbere muri ofisi, hanze hari umukiriya bari guhererekanya amafaranga mu ntoki.

Butike icururizwamo ibyokunywa byatunganyijwe, imanitse icyapa cyanditseho ikaze dayali kiriho inyange, amata na yawurute.

Umuhanda w'ibinyabiziga hirya yawo wambutse hari inzu nini ifatanye n'akandi gato gakorerwamo ubucuruzi aho bacururiza ibyo kunywa, amata y'Inyange, hari n'icyapa cyanditseho Inyaza milk Industries.

Ibiganza by'umwirabura bifashe ipurato nini ifite ibara ry'umweru n'indabo za move, iriho amandazi akozwe mu ifarine, ahiye neza yiteguwe kuribwa.

Shopu ntoya y'ibicuruzwa n'ikiganza cy'umwirabura gifashe capati ikozwe ni ifarine, gifite na serivieti.

Inzu igaragara mu imbere ku gikuta hari amakaro, no hasi afite ibara ry'umweru, mu imbere harimo ibicuba bitandatu birimo amata y'inshyushyu, kuruhande rwabyo hari utubido twarindwi.

Kantine igaragara mo imbere harimo ameza intebe isa umweru, hicayemo abakiriya barimo kunywa amata y'ikivuguto.

Umukozi ukorera abusoru limitedi iherereye muri Bugesera mu murenge wa Mayange ari aho batunganyiriza amagi bakayashyira mu itireyi.

Butike icururizwamo, mo imbere ifite igikuta giteye amarangi y'ubururu nka parafo zisa umweru, harimo itanka bashyiramo amata yanditseho nyanza miriki indasitiri, imbere yayo hari umuntu w'umugore.

Ikiganza cy'umwirabura gifashe ritiro imwe ya ji ikozwe mu matunda ikungahaye kuri vitamine c ikaba ikorwa n'uruganda rwitwa inyange rwo mu Rwanda.

Butike ikora buri munsi irimo ibicuruzwa biri muri etageri byiganjemo ibiribwa bimwe birafunitse muri purasitike ibindi birimo ni imineke ihiye neza.

Ibiganza by'umwirabura bifashe telefoni mu ntoki; igaragaza uko wakwishyura ukoresheje telefone.

Uburyo bwo kwishyura cyangwa kohereza amafaranga ahantu hatandukanye, ukoresheje application ya Paypol, bari kwerekana uko wakwinjiramo ukandika imeri yawe n'umubare w'ibanga hanyuma ukinjira.

Umukobwa w'umwirabura, wambaye amaherena kumatwi, ufite amafaranga mu ntoki; ari kwerekana uburyo bwihuse bwo kohereza amafaranga ahantu hatandukanye.

Uko wakwishyura ukoresheje ikoranabuhanga byitwa online payment, ishyura na PayPal cyangwa Credit Card.

Telefone ngendanwa, igaragara muri sikirini, irikwerekana uburyo wagura ama inite ukoresheje Airtel money.

Umuyoboro utanga serivise z'itumanaho mu Rwanda eyateri, urikwerekana ukuntu wakoresha serivisi zayo mu buryo bworoshye, ukagura amayinite, ukishyura umuriro n'ibindi, ukohereza n'amafaranga ahantu hatandukanye.

Fomu yo muri banki igaragaza uburyo abantu babikuje sheki, abayitanze n'igihe byakorewe n'umubare w'amafaranga yabikujwe.

Ibiganza by'umwirabura bifasha amafaranga y'ibihugu bitandukanye harimo amanyarwanda amadolari na ay'ibindi bihugu.

Ibiganza bibiri biri guhererekanya amadolari, kimwe ni icya umukozi wo muri banki ikindi ni icya umukiriya waje gusaba serivisi.

Ikiganza cy'umuzungu gifashe amafaranga mu ntoki y'amanyamahanga n'ikindi cy'umudamu gifashe mashini mu ntoki.

Ibiganza by'umwirabura wambaye impeta ku rutoki, afite amafaranga y'abanyamahanga y’ibihugu bitandukanye, amwe ashushanyijeho ifoto y’umuntu.

Umuryango ufunguye, inyuma yabowo hamanitseho ibyapa bisa umuhondo n'umutuku, bari kwamamaza berekana uburyo bwo kohereza amafaranga.

Inyubako imanitseho ibyapa bitandukanye bigaragaza ko hatangirwa serivisi zo kuvunjisha no kohereza amafaranga y'abanyamahanga ahantu hatandukanye m'umuryango wayo harimo umuntu wambaye ipantaro y'umweru n'umupira wumukara ari kwinjiramo.

Inzu iriho ibyapa bibiri byamamaza, kimwe cyamamaza banki ya Kigali, ikindi cyerekana aho bavunjishiriza n'aho boherereza amafaranga y'amanyamahanga.

Inzu nini ikorerwamo ibikorwa bitandukanye ku ruhande rumwe hari umuryango urimo imyenda igurishwa ku rundi ruhande hamanitse ibyapa byerekana ivunjishwa ry'amafaranga y'amahanga.

Umuhada w'ibinyabiziga hirya yawo hari inyubako imanitseho ibyapa bitandukanye, imbere yayo hari abantu batatu harimo n'ushinzwe umutekano.

Ofise itangirwamo serivisi zo kuvunjisha no kohereza amafaranga y’amanyamahanga, irimo umukiriya n’umukozi.

Inzu imanitseho ibyapa byinshi byerekana ukuntu amafaranga y'amanyamahanga avunjisha, imbere y'icyapa hari umugabo ufite ikaramu ari kwandika.

Inzu imanitseho ibyapa byinshi bigaragaza ko itangirwamo serivisi ry'ivunjishwa ry'amafaranga y'amanyamahanga atandukanye.

Igitanda kiriho matera n'amashuka bishashe neza, ku ruhande rw'igitanda hari akabati ko kubikamo, hejuru y'akabati hariho isaha n'intara.

Intebe nziza zikoze mu mifariso zifite ibara rimwe zifite imisego iri mu mabara atandukanye harimo umukara umweru zirimo imbere mu inzu hasi hashasheho tapi.

Salo irimo intebe nziza zidasa zikoze mu mifariso n'ameza meza n'imisego n'ibindi bikoresho byo muri salo.

Akabati ko mu rugo gato, ko kubikamo ibintu harimo imboga, imbuto, ndetse n'ibindi byo mu gikoni gakozwe mu mbaho zisize verine, hagati aho kubika ibyo bintu hakozwe na purasitike.

Inzu igaragara mo imbere harimo intebe zisa n'imisego ibiri na kizimyamwoto, n'ameza y'ibirahure.

Jaride nziza irimo ibiti n'indabo hateguyemo ameza ariho igitambaro cy'umweru n'intebe, ibyo kunywa biri mu kirahure n'ibyo kurya.

Inyubako nziza ya etaje yo kuruhukiramo no gusohokeramo yitwa hoteli, imbere yayo hateye indabo z'ubwoko butandukanye, hari na pisine irimo amazi yo kogamo ku bakiriya.

Inyubako ebyiri zigeretse z'amacumbi bita hoteri, imbere yazo hari aho kogera bita pisine.

Inyubako ya etaje igeretse gatatu, imanitseho icyapa, cy'ubwishingizi bwa sonarwa ishami rya Kimironko.

Abirabura batatu, harimo abagabo babiri n'umugore umwe, bari mu cyumba kimwe, imbere yabo hari ameza asa umweru arambitseho mudasobwa, iyo mudasobwa iri gukoreshwa n'umugore wambaye

Inyubako itangirwamo serivisi z'ubwishingizi bwa yuweyipi, imbere yayo hahagaze umugabo imbere ye hari abandi batatu bari kugenda umwe yambaye ingofero y'umutuku.

Ofise y'ubwishingizi yubatse neza, ifite parafo zisa umweru, hasi hari amakaro asa n'umweru, ku gikuta hari ifoto ya Radiant.

ibiro bitangirwamo serivisi z'ubwishingizi mu Rwanda, bari gutanga ikaze ku bababagana bose, bari gutanga ikaze bandikishije ijambo welikamu mu ibara risa ubururu

Inyubako ndende ya etage ifite ibyumba byinshi, imbere y'iyo nyubako hahagaze abantu babiri b'abagore, ku ruhande rw'inyubako hateye ibyatsi biri mu bwoko bw'indabo bisa icyatsi.

Ofisi y'ubwishingizi bwa UAP, imbere irimo abantu benshi abatanga serivisi n'abazihabwa imanitsemo n'imitako.

Inyubako imanitseho icyapa cy'umwajenti wa banki y'abaturage n'ubwishingizi bwa Britam, imbere yayo hari abajenti ba MTN, bambaye amajire asa umuhondo.

Inyubako ifite igikuta cyanditseho amagambo yamamaza kampani y'ubwishingizi yitwa radiyanti ibabwira ko isezerano ari isezerano.

Inyubako ya kampani irubatse irageretse, itangirwamo serivisi z' ubwishingizi, iyo kampani yitwa UAP, imbere yayo hamanitseho ibyapa biyamamaza byinshi.

Ofise yu'bwishingizi yitwa kuzo ara rimitedi hasi hari amakaro yumweru n'umukara.

Abantu benshi bari ahantu hamwe mu cyumba abagore, abagabo, abakobwa n'abasore bagiye gusaba inguzanyo muri ekwiti banke.

Abakobwa batanu bambaye imikenyero y'ubururu n'umweru n'udusengeri tw'umutuku, bahagaze imbere y'inyubako yanditseho Loic unguka finance.

Ofise irimo umugabo w'umwirabura wambaye baje ufite urupapuro mu ntoki na mudasobwa, imbere ye hari abaturage babiri umwe ni umusiramukazi.

Banke yo mu Rwanda yitwa Ekwiti irikwamamaza uko wabona amafaranga y inguzanyo, kugira ngo wagure bizinesi yawe.

Amabwiriza agenga usaba inguzanyo harimo; iretere isaba inguzanyo, kuzuza fomu, icyemezo cy'uko washatse cyangwa uri umusore, seritifika y'umushahara na fotokopi y' irangamuntu yawe.

Itangazo rya banki y'abaturage b'u Rwanda. Iri gushaka abakozi badepoza ku myanya itandukanye.

Ifoto y'umukobwa w'umwirabura uhagaze afite mudasobwa mu ntoki, ari ku cyapa cyamamaza banki y'abaturage uburyo yizewe inoroshye kuyikoresha.

Umuhanda w'ibinyabiziga hirya hari uw'abanyamaguru bariku kugenda n'imodoka ziparitse hirya hari inyubako ya etaje igeretse.

Inzu y'ubucuruzi bw'imyenda y'ubwoko bw'amakanzu, ifite amakaro hasi y'umweru n'umukara, hagati muri iyo nzu harimo intebe yicayeho umuntu n'undi umuhagaze imbere

Isoko rigaragaramo ibicuruzwa byakozwe hifashishijwe amaboko gusa, harimo imitako ibiseke ibikapu n'inkangara.

Isoko ryubakiye rigaragaramo imboga harimo ibitunguru, karoti n'amashaza hicayemo n'umugore w'umwirabura.

Isoko riri hagati yinyubako ririmo abantu benshi batandukanye, abinjira n'abasohoka, ryiganjemo ibicuruzwa, imyenda ndetse n'imitaka y'abakozi ba MTN batangiramo serivise zabo.

Isoko ritubakiye ririmo abaturage batandukanye, abagabo, abagore n'umwana bari gucuruza inyanya, intoryi n'ibindi.

Isoko ririmo ibicuruzwa bitandukanye: imitako yo mu nzu ikorwa n'amaboko, imyenda y abagore, n'iya siporo.

Isoko ryubakiye, ricururizwamo ibicuruzwa bitandukanye, harimo abadozi bari kudoda n'ibisabo bimanitse.

Isoko ry'imbuto ryiganjemo amaronji, inanasi, imyembe amapapayi, na pome. Iri soko rigaragaramo umugore w'umwirabura.

Isoko ririmo abantu benshi batandukanye, biganjemo abagore n'ibicuruzwa bitandukanye imbuto, imyenda, ingofero.

Isoko ryubakiye ririmo inyanya, intoryi, karoti, n'ibirungo harimo abantu benshi batandukanye higanjemo abagore bari gucuruza.

Isoko ritubakiye ry'imyenda icururizwa hasi, irimo abantu batandukanye abagore abana abenshi bitwikiriye imitaka.

Isoko ririmo abantu benshi cyane n'ibinyabiziga ari byo moto n'amagare na serivisi zitangwa na eyateri.

Isoko ritubakiye riri imbere y'inyubako ririmo ibiribwa bitandukanye imboga imbuto n'ibindi biribwa rigaragaramo abagore babiri.

Icyapa gisa umuhondo cya MTN cyerekana ukuntu wakwishyura ukoresheje MoMo Pay cyangwa apulikasiyo ya MTN.

Abakozi ba MTN batanga serivisi zitandukanye, harimo gutanga amayinite no kubitsa no kubikuza, bari gutanga impano ku bakiriya, harimo imipira ya MTN ifite ibara ry'umuhondo n'izindi mpano zifunitse.

Ubutumwa bwo kuri telefone bugaragaza amazina y'umuntu, na nimero ze n'amafaranga agiye koherezwa kuri iyo nimero.

Umwagenti wa Emutiyeni yicaye mo imbere muri kiyosike hanze hari abantu bane bategereje ko abaha serivisi za Emutiyeni.

Umugabo wambaye umupira w'umuhondo wanditseho kwishyura na momo biroroshye, imbere ye hari imodoka irimo umuntu bari kuganira.

Ahatangirwa serivise zo kubitsa amafaranga ndetse no kubikuza no kohereza, hari umuntu ufite telefone mu ntoki igaragaramo apurikasiyo ya momo ari kuyikoresha.

Inzu isa n'umuhondo iri ku muhanda, itangirwamo serivisi za MTN, mo imbere harimo umwajenti wayo, ari kuvugana n'abakiriya.

Inzu y'icyumba kimwe ifite ibara ry'umuhondo itangirwamo serivisi zitandukanye za mtn mobile money; harimo kubitsa no kubikuza amafaranga; mu imbere hicayemo umuntu imbere ye hari igitabo.

Abajenti ba emutiyene bambaye imipira ifite ibara ry'umuhondo, bari gutanga serivise zitandukanye, harimo kubitsa no kubikuza no kohereza amayinite, ibyapa byamamaza serivise za mobayiro mani.

Umu ajenti wa MTN uri mu kazu gato, gasa n'umuhondo, gatangirwamo serivise za MTN mobayiro mani, hanze yako hari abaturage batandatu bahahagaze, bamutegereje ko abaha serivise.

Umwajenti wa emutiyeni yicaye mu mutaka imbere ye hari umugabo uri ku igare wishimye wambaye umupira wa emutiyeni usa umuhondo.

Ibara risa umuhondo risize ku nyubako handitsemo amagambo mu ibara ry'umukara agaragaza serivisi zitangwa na MTN.

Agakiyosike ko ku muhanda gafite ibara risa umuhondo, gatangirwamo serivisi za MTN zitandukanye harimo kubitsa, kubikuza, gutanga amayinite ndetse no kohereza amafaranga, ku ruhande rwako hari amapoto n'ibiti ndetse n'ibyapa.

Umumotari uri mu muhanda wambaye kasike atwaye moto, ahetse igikapu gikoze nk'igikarito gifite ibara ry'umuhondo n'umukara na oranje.

Ifoto igaragaza ubucuruzi bukorerwa onulayini hifashishije enterinete, igaragaza ibicuruzwa n'amafaranga yagenwe kuri buri gicuruzwa.

Inzu y'ibyumba bitanu ifite igipangu, iherereye Kibabaga, iragurishwa amadolari ibihumbi magana abiri na mirongo ine.

Inyubako igeretse kabiri, imbere yayo hari jaride nziza iteyemo ibiti, iherereye mu mujyi wa Kigali, kacyiru.

Inzu ya etaje imbere ifite jaride, iherereye Kigali Gisozi ahegereye i Kagugu, iragurishwa miliyoni magana atatu na mirongo itanu z'amanyarwanda.

Inzu ya etaje igeretse, ifite ibyumba bitanu, na ofise, iraboneka mu mujyi wa Kigali mu Gacuriro, kuri miliyoni eshatu buri kwezi, imbere yayo mu gipangu, hari amapave.

Inzu igaragara mo imbere, yubatse neza, iteye amarange, ifite n'amakaro hasi, iherereye Kigali, Kimironko, ifite ibyumba bibiri n'ubwogero bumwe, iri gukodeshwa ibihumbi magana atatu ku kwezi.

Inyubako nini igeretse, imbere yiyo nyubako hari aho guparika imodoka, aho guparika imodoka, haparitse imodoka eshatu z'umukara.

Nziza iri ahantu heza, ifite urugo rwiza, mu imbere haparitsemo imodoka nziza. Ku ruhande hari amagambo yerekana ko iyo nzu ikodeshwa n'aho iherereye.

Inzu ya etaje igeretse ifite igipangu na jaride ndetse n'imbere hari amapave, iherereye Kigali Kibagabaga irakodeshwa amadorari igihumbi na magana arindwi ku kwezi.

Iduka ririmo ibicuruzwa byinshi bitandukanye, mu imbere hahagazemo umugabo wambaye imyenda y'umukara akandagiye ku makaro asa n'umweru.

Butike yitwa simba irimo ibicuruzwa bitandukanye, nabakiriya benshi bari kubakozi imbere yabo hari mudasobwa.

Iduka rya kijyambere ririmo ibicuruzwa bitandukanye, higanjemo ibyo kunywa nk'inzoga harimo umugabo uri guhaha.

Isoko ricururizwamo ibicuruzwa byo gutaka mu inzu, harimo ibyo ku mubiri n'indabo ziri m’amavase.

Inzu cururizwamo ibintu bitandukanye harimo imyenda y'abagore amakanzu, ibyo kwifubika bikoze mu budodo n'udukapu two guhahiramo dukozwe mu biti.

Inyubako nini ya etaje igeretse ifite imiryango myinshi itangirwamo serivisi zitandukanye, z'ubucuruzi, harimo gucuruza imyenda y'abagore, iy'abagabo, iy'abana inkweto n'amagare.

Butike ya kijyambere irimo ibicuruzwa bitandukanye ibyo kurya n'ibyo kunywa, mu imbere harimo umukobwa w'umwirabura wambaye ipantaro y'umukara n'umupira w'umweru.

Ofise irimo etajeri imanitsemo ibitabo yicayemo abakozi batatu, imbere yabo hari abaje gusaba serivisi.

Ikarita y'ubwisungane mu kwivuza yitwa mituweri yo m'u Rwanda, iriho umwana n'imyirondoro ye yose, kuva ku mazina n'aho atuye.

Amakarita menshi y'ubwisungane mu kwivuza, bwitwa mituweri bukoreshwa mu Rwanda, ari ahantu hamwe ku gitambaro gisa n'umuhondo, ashushanyijeho ikirangantego cya RSSB.

Ikirangantego ejo heza gurupe ni serivisi aho abaturage bazigama amafaranga, akazabagirira akamaro mu gihe bageze mu zabukuru.

Ikarita y'ubwishingizi bwo kwivuza, ikoreshwa mu Rwanda, izwi ku izina nka "mutuel de sante", ifite ibara ry'umuhondo.

Abaturage benshi bari mu cyumba kimwe, bicaye ku ntebe abandi barahagaze, harimo abagore, abagabo n'abana, bafite amafishi mu ntoki n'amakaye.

Umukozi wa RSSB mu Rwanda ni umwirabura yambaye ishati y'umweru na karuvate y'umukara, imbere ye hari ibiganza bifite amamikorofone mu ntoki, bayamutunze bari kumusaba amakuru.

Mudasobwa iri kwaka muri taburo igaragaramo ikirangantego cy'ikigo cy'igihugu cy'ubwishingizi mu Rwanda, cyitwa rssb.

Abagore babiri n'abagabo barindwi, bambaye amakote, bahagaze mo imbere mu nyubako ku murongo, inyuma yabo hari ikirangantego cya RSSB.

Ahantu hateguye neza, hategujwe ibitambaro bisa ubururu, icyatsi, n'umuhondo. Aho hantu bateguye, hari abaturage batandukanye, baricaye bari gukoma amashyi, imbere yabo hari umuyobozi uri kumwe n'umuturage ari kumuhereza ubutumwa.

Serivisi y'ubwishingizi bwa ejo heza, iri kwerekana uko wakwizigamira muri ejo heza, ukoresheje terefone yawe kugira ngo uzagire amasaziro meza mu myaka iri imbere.

Abaturage biganjemo abagore benshi n'abagabo bake, bicaye hanze y'inyubako, imbere yabo hari umugore wambaye ipantaro, afite impapuro mu ntoki, ari kuzihereza abo baturage.

Umugore w'umwirabura yicaye mu nzu yambaye ikimuranga, imbere ye hari ameza arambitseho ibitabo, mu idirishya hari umuturage ufite ubwisungane mu kwivuza uri kubumwereka.

Ofise irimo umugabo wicaye ku ntebe, imbere ye hari ameza ariho amakayi menshi, ari kureba muri imwe n'umuturage w'umumama waje kwaka serivisi.

Abaganga bambaye imyenda y'akazi umwe ari kwandika undi imbere hari icyuma cyitwa mikorosikopi bareberamo ibitagaragarira amaso imbere yabo hari abaturage baje guhabwa serivisi zitandukanye.

Umugabo w'umwirabura wambaye ipantaro y'ubururu n'ishati y'ubururu n'inkweto zifunguye afite icupa mu ntoki ari kumwe n'umukobwa wambaye umupira w'umutuku n'ipantaro y'umukara bari muri supamaketi irimo ibicuruzwa byinshi bitandukanye.

Inzu y'ubucuruzi bwa kijyambere, irimo ibicuruzwa bitandukanye, bipanze neza muri etajeri zitandukanye, hagati ya etajeri n'indi harimo umwanya wo kunyuramo.

Iduka ry'ubwoko bwa kijyambere rizwi nka supamaketi ririmo ibicuruzwa bitandukanye, riri kugaragaramo imbere. Harimo abakiriya batatu, umwe ari guhaha ari kugenda afata ibintu abishyira mu cyo guhahiramo.

Imigati ibitse muri etajeri ikozwe mu biti iyo migati ifungingishije ibifuniko bitandukanye hari ikiganza cy'umuntu w'umwirabura gifashe ipaki imwe.

Inzu y'ubwoko bwa kijyambere bacururizamo ibicuruzwa bitandukanye bifite ibiciro bitandukanye ibyo bicuruzwa babicuruza babifunyitse neza.

Isoko rinini rya kijyambere ryitwa supamaketi ririmo ibiribwa bitandukanye inyanya, imiteja , ibibiringanya n'ibindi byinshi .

Inzu y'ubucuruzi bwa kijyambere, irimo abantu batandukanye n'ibicuruzwa byinshi, umukobwa umwe ari gucagura ibyo yifuza kugura.

Supermarket ifite amakaro hasi, irimo ibicuruzwa bitandukanye bifunitse mu mashashi ya pulasitike afite amabara atanduka...